Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo isize amarangi y'ubururu ifite ibirango bya primusi, bacuruza ibintu bya bralirwa ndetse imbere yaho hakaba hari n'ururabo.

Ahantu heza cyane, ho gusohokera aho wajya ushaka kuruhuka neza mu mutwe, hasa neza kandi hari na pisine, ushaka koga wakoga maze ukarushaho kumererwa neza, hafite isuku hari n'ibikoresho byiza cyane.

Icyokezo bokerezaho amafi, aho ari ku cyokezo hakaba hariho indimu, ndetse ari hafi kuboneka, abayakeneye bakayarya.

Inyama zisa neza zigiye, ziryoshye, ziryoheye amaso. N'izo mu kabari cyangwa ahandi hantu runaka, umuntu ashobora kuba yatumizaho icyo kurya.

Akabari gacururizwamo inzoga z'ubwoko butandukanye, ndetse n'amawayini atandukanye, aho hasa neza kandi ziteretse ku tubati tw'iterambere, dusa neza.

Icyokezo bokerezaho amafi, aho bari kotsa amafi ameze neza kandi akaba yenda gushya kugira ngo umukiriya ayabone ameze neza.

Butike icururizwamo amata ndetse n'ibindi. Aho abakiriya baje babagana umwe akaba ari kunywa amata ndetse n'undi akaba arindirindiriye ko bamuhereza icyo bashaka.

Brushete ziri ku cyokezo icyokezo gifite umuriro uri kwaka, zikaba zisize ibirungo kandi zikaba ziteguye kuribwa, kuko zisa n'izigiye kuboneka.

Abacuruzi bacururira mu kabari. Aho umuntu abo yabona inzoga zose ashaka kunywa. Cyangwa se ikindi kintu gitandukanye yaba yifuza kuhafata.

Mu kabari bacururiza ibintu bitandukanye, aho hari intebe zitondetse neza n'ameza, kuburyo ushobora kwaka ikintu cyawe ukicara ukakirya utuje, kuko naho haratuje kandi nta kavuyo gahari.

Icyapa cyerekana aho resitora ikorera aho bafite ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'ibyo kurya, kandi hanze y'aho hakaba hari umwajenti wa emutiyene.

Iduka ricururizwamo amakaro atandukanye y'ubwoko butandukanye, aho bakorera mu nzu y'ubucuruzi isa neza kandi aho bakorera imbere y'abo hakaba hasa neza.

Resitora biyuweri ikorera onurayini, aho umuntu yudaringa ibiryo maze bakabimwoherereza iyo bimaze kuboneka, ikaba iri ahantu heza kandi ifite isuku.

Butike icururizwamo ama matera ndetse n'imyenda ,n'amakuvurirori aho ibiryamirwa nta kintu wahabura ndetse n'imyenda hakaba hari n'abandi bantu bicaye aho, barindiriyeko hari umuntu waza gushaka umukozi wamufasha mu byo kubaka ndetse n'ibindi.

Butike icururizwamo imiceri ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byo muri butike, hakaba hari ahandi hari umudije, bakaba bafitemo amapashete n'indi bintu tandukanye, ndetse akaba atanga n'amafirime.

Iduka ricururizwamo ibintu bitandukanye, aho harimo ibikapu by'abanyeshuri byo kujyana ku ishuri. Ndetse haba hari n'udusakoshi tw'abakobwa ndetse n'ibindi bikoresho mabase, amasafuriya n'ibindi.

Amabutike iri ku muhanda acururizwamo ibikoresho bitandukanye kugira ngo baturage babibone hafi, akaba ameze neza gusa afite inyubako zishaje.

Iduka ricuruza ibikoresho bya elegitoroniki, umucuruzi afite amagaze, amateleviziyo, amafirigo ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo bitandukanye.

Butike icururizwamo kofi, aho yakira abantu baje bayigana. Ikaba isa neza kandi iri ahantu hasa neza, igihe uyifashe. Ndetse umuntu wese ashobora kuyisanga ahasa neza kandi...

Amaduka atandukanye bacururizamo ibikoresho bitandukanye harimo'ibya elegitoronike. Aho hari n'amasaro atandukanye batunganya imisatsi bakogosha n'abantu hakaba hari abantu batandukanye bagiye gusaba izo serivisi.

Butike, kantine icururizwamo icyayi, capati, ibishyimbo boyiro n'ibindi bitandukanye, aho abantu bamugana kugirango bafate ifunguro rya mugitondo, cyangwa se irya saa sita kuko naryo arigira.

Butiki iri ahantu heza cyane, aho bafite ibintu bitandukanye, amagaze ndetse n'ibindi bintu birimo imbere mu iduka, aho umucuruzi ibintu bye bitondetse neza ku murongo.

Butike zicururizwamo ibintu bitandukanye, aho abacuruzi bamwe bakorera mu maduka abandi bakaba bafite imashini hanze barimo kudoda, butike zikaba zimeze neza cyane gusa ho hakaba hadasa neza uko bikwiriye.

Butike icuruza ibintu bitandukanye, aho zisa neza kandi zifite isuku, ku buryo usabayo serivisi, uba wumva nta kibazo, kuko hari itanga serivisi z'irembo, ndetse n'indi ikaba ikora amakeke.

Icyapa kerekana aho botike ya Alegisi iherereye aho acuruza ibintu bitandukanye amakaroni, amaji, ibirungo bitandukanye byose ukaba wabihabariza.

Icyapa cyerekana ko bigisha ibintu bitandukanye kugira ngo ubone amaseritifika afasha abantu iyo bagiye kwiga hanze , ndetse bakaba bafasha abantu kwapulayinga amaviza.

Akabari gacuruza ndetse gafatanye na resitora, bacuruza ibyo kurya bakaba bagira n'ibyo kunywa, hakaba hari icyapa cyerekana aho bakorera, hakaba hamezeze neza kandi hateye n'indabo.

Botike icururizwamo inzoga zitandukanye hakaba harimo akabari ndetse hakaba hari n'amacumbi ku buryo umuntu yajyamo. Hakaba hasa neza haifite isuku.

Iyi nyubako imeze neza cyane, aho ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, kandi bugateza imbere ababukoreramo, aho hariho aba kabine davoka, ibiro bya noteri, ndetse n'ama sitidiyo, icyo umuntu akeneye yakihabona.

Butiki ikoreramo mu agenti wa Ekwiti Bipiyara banki, akaba afasha abantu baje gusaba serivisi za banki zitandukanye, aho ameze neza kandi hakaba hari n'amagazi.

Butiki icururizwamo amata y'icyayi, capati, ibishyimbo, igitoki, imvange ndetse n'ibindi. Aho uyu mucuruzi yiteze kwiteza imbere akazagera kure akagura ibikorwa bye.

Butike icururizwamo ibintu bitandukanye harimo ibikoresho byo mu rugo, amabase, imbabura, amasafuriya, imikubuzo ndetse n'ibindi byo kwambara bitandukanye, bikaba bimeze neza, byose bisa neza, bifite isuku.

Hoteri iri k'umuhanda ndetse yegereye Beka, aho hasa neza cyane kandi hakaba hafite isuku hari umucyo.

Inzu ya etage ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho buri muryango uba ufite icyo ukorerwamo, hasi hakaba hakorera equit bank naho hejuru hakaba hari akabari.

Butike icuza ibintu bitandukanye birimo amabiswi ndetse n'amabombo, ndetse ibintu byose uragenda ukababaza ukareba niba babifite. Ikaba isa neza ifite isuku kandi ibintu na byo bifite isuku.

Icyapa cyerekana aho muhabura vorukano ini bakeri brance ikorera, kandi bakaba bafite erite krinazi, bakaba bakora ibintu bitandukanye byo gusukura imyenda ndetse n'ibindi.

botike ucururizwamo ibintu bitandukanye amavuta yo kwisiga, amasabune yo koga, ingofero zo kwambara, ibikapu n'udusakoshi dutandukanye, aho iherereye ku muhanda kandi hakaba hasa neza cyane, gusa akaba ari isoko ahubwo aba bakorera kumpande zaryo.

Botiki icururizwamo bikoresho bitandukanye, aho bafite imikoropesho n'imikobuzo n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abakora amashanyarazi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwa resitora, aho bagira ibintu bitandukanye birimo ibiryo byo kurya bitetse neza kandi bakagira n'ibyo kunywa, aho hasa neza cyane kandi habereye ijisho kuba umuntu yahajya.

Icyapa cya Irebe Basikete Koregisheni, kiriho nimero z'aho wababona, bakaba bacuruza ibipaniye.

Botike icururizamo umutekinisiye wafashaga abantu ibintu bitandukanye bijyanye n'ibikoresho bya elegitoronike akaba ameze neza kandi afite isuku.

Abacuruzi bacuruza amagi aho baje kuyapakira ngo bayajyane aho bakorera ndetse hakaba hari n'umukarani ukorera koperative "Kunda umurimo" y'i Musanze akaba arimo kubafasha kuyapakira.

Botike iri ku muhanda icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye. Aho hari n'aho bakora amatelefoni ndetse n'amateleviziyo. Bakaba banagira ibikoresho bya elegitoronike bitandukanye.

Ubucuruzi; gucuruza insenda, kuzitembereza, akaba atembereza ku muhanda n'ahandi hantu hatandukanye mu muhanda hose, ni ahantu afite abarizwa.

Iduka ricururizwamo ibyo kurya, hakaba hari resitora yakira abantu batandukanye baje bayigana, bashaka amafunguro. Isa neza, kandi n'ibikoresho byayo bisa neza hasize amarangi meza.

Icyapa cyerekana aho wasanga imiti itandukanye, igihe itungo ryawe ryagize ikibazo, maze bakagufasha.

Butike zitandukanye ziri ku muhanda w'ahantu, hakaba hari aho bacuruza amagazi, ndetse ahandi bakagira ibiryo, ndetse hakaba hari n'abandi bantu bahakorera ubucuruzi butandukanye.

Butike yakoreramo abakanishi bakanika amagare, aho umuntu ubagannye afite igare rifite ikibazo bamufasha bakarimukorera akongera akarigendaho rimeze neza.

Iduka ricururizwamo ibyuma by'amagare, aho abanyonzi bajya gushaka ibikoresho by'amagare yabo, bakaba bafite amaringi menshi cyane.

Butike itangwa utanga serivisi zitandukanye z'amabanki cyangwa se zijyanye n'iby'amafaranga, aho ushobora kwishyura imisoro cyangwa se imiriro cyangwa se ugahabwa n'izindi serivisi zijyanye n'irembo.

Botiki icurizwamo ibintu bitandukanye, aho harimo indobo zirimo imbada, imbada zimeze neza cyane, bisa nkaho ziryoshye pe, hamwe n'amakeke n'ibindi.

Iduka ricururizwamo imyenda ariko imyinshi ikaba ari iy'abagabo, kandi rimeze neza ritondetse neza, ndetse ibintu byose biri ku murongo hasa neza cyane.

Butike icururirizwamo ibintu bitandukanye, umucuruzi yashize akandi kantu hanze, aho umuntu abona icyo akeneye akihagera, maze akaza abagana hasa neza hafite isuku.

Butike irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho umucuruzi yacuruzaga amaji, amasabune, ibintu byose ndetse n'inzoga zitandukanye, ziri hejuru ku buryo icyo umukiriya we aje ashaka cyose akibona.

Iduka ricururizwamo imyeda itandukanye y'abagabo n'inkweto zabagabo n'imyenda y'abagore cyangwa abakobwa, aho rifite isuku kandi rikaba rifite n'ibikoresho byiza bijyanye n'ubucuruzi.

Amaduka akorerwamo ubucuruzi butandukanye, aho ari mu nyubako ya etage, kandi akaba ari mu mujyi ,aho hakorerwa ibintu bitandukanye.

Butike icururizwamo inzoga z'amoko atandukanye, aho icyapa cyerekana ko ari kukiranguzo baguhera, iyo ugiye kugurirayo.

Iduka ricuruza ibikoresho by'amagare aho habamo imisego abagenzi bakenera, amapine, ndetse n'ibindi bikoresho harimo amaringi n'ibindi.

Butike iri ku isoko rya kariyeri ,aho bacuruza ibintu bitandukanye, ku buryo umuntu ucururizamo hagati ashonje yajya kuryayo ,agatanga kommande y'icyo ashaka kurya.

Butike ziri ahantu, aho abantu baje kugura, baje badusanganira, baje kugura, zikaba ziri ahantu hatuje hameze neza, n'abaje kugura ubona ko ntacyo babaye.

Butike fesibuke runje aho hari icyapa cyerekana aho baherereye, kugira ngo umuntu uhagana akeneye icumbi cyangwa icyo kunwa ahamenye, hakaba hari abagenzi bari gutambuka mu muhanda kandi hasa neza na bo basa neza.

Amacumbi abantu batandukanye bashobora kuraramo ukishura amafaranga, hasa neza kandi umuntu wese uje ntabwo bamusubiza inyuma, hasa neza hasize amarangi meza cyane.

Aha hantu ni ho Milano hoteli ikorera ndetse na hakaba ofisi ya agishoni koreji ,hakaba hari n'amamoto ,amamodoka ,amamoto barimo gucuruza kugira ngo biteze imbere. Amaduka y'ubucuruzi ndetse n'abandi bantu baparitse ku ruhande baje mu mirimo itandukanye.

Ibutiki iri mu isoko aho iri muri etaje, ikaba icururizwamo inyama z'inkoko zimeze neza bakubagiye.

Butike icururizwamo ibikoresho bitandukanye bya eregitoronike, aho umucuruzi yicaye, imodoka kandi ategereje abakiriya kandi hakaba hasa neza, ndetse n'ibintu bye bikaba bitondetse ku murongo. Ku ruhande rwe hari n'undi ucuruza nk'ibyo ariko akagira n'utundi tuntu dutandukanye.

Butike zegereye umuhanda, umeze neza wa kaburimbo, zicuruza ibintu bitandukanye, aho iruhande rwazo haparika abamotari baje gushaka abagenzi.

Icyapa cyerekana ibintu bikorerwa aha ahantu ko hari icyumba, amacumbi, kandi hakaba hari n'akabari hasa neza, urebye hafite isuku.

Botique ikoreramo umu-agenti ,y'umu-agent. Aho afashiriza abantu baje bamugana ba BK ndetse n'aba equity ndetse akaba akanika n'amatelefoni iyo yapfuye.

Amajyambere supamaketi，icururizwamo ibintu bitandukanye， aho bafite ibintu byose， imigati， amaji n'ibindi bintu bitandukanye， aho ku byapa byabo， ubona ibyo ukeneye， niba byaba bihari.

Botike icuruza ibintu bitandukanye, aho ushobora kuhabariza icyo wifuza cyose harimo n'amasimukadi ya ayateri cyangwa se bakagukorera simuswapu. Aba asa neza kandi afite isuku.

Arimantasiyo butike ya Mukiza icuruza icyayi, imigati keke n'imineke na ji harimo n'ibindi nk'amabiswi, amazi yo kunywa n'ibindi byinshi bitandukanye.

Butike zicururizwamo ibintu bitandukanye, aho umucuruzi aranguza abandi bacuruzi bacuruza ibintu bike, kuko afite ibintu byinshi cyane acuruza, ama ji, ibindi bintu bitandukanye kandi hasa neza, ibintu biri ku murongo.

Iyi ni koperative igizwe n'abagore basa n'abari kwishimira ibyo bagezeho, icuruza imyaka, yambukiranya imipaka, igatunganya n'amafu atandukanye, ubumwe, amajyambere, demokarasi ni yo ntego yabo kandi biyemeje kutazatesha agaciro uwakabashuje.

Hoteri yakira abantu batandukanye yitwa oberije, hakaba hameze neza hasa neza kandi bakira umuntu wese ubaganye.

Swimingi ikorerwamo skizajajam, smiporo yo koga, cyangwa umuntu akajya koga ashaka kuruhuka. Aho umuntu yayifotoreje , mbere yo kugira ngo akore ikindi kintu icyo ari cyo cyose.

Icyapa cyerekana aho Karasike iherereye, ku buryo umuntu wese waba ushaka kuhajya, yasobanukirwa neza ibihabera, ahamagaye nimero zihari cyangwa akabandikira.

Icyapa cyerekana aho veni opisi iherereye, aho yakira abantu batandukanye baje bayigana, akaba ari hoteri ifite isuku kandi imeze neza, itanga ibintu bimeze neza.

Icyumba kiza cyateguwe neza, bagisashe n'amashuka y'umweru asa, kirimo ibitanda bibiri, n'imisego yo kuryamaho, n'intebe yo kwicaramo igihe utaryamye, n'inkweto zo kwambara ubyutse, n'utundi dutebe.

Ubusitani bumeze neza cyane buteyemo indabo ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye aho umuntu ashobora kwicara ari kuruhuka cyangwa ashaka gutuza mu mutwe.

Isoko ricururizwamo amapata atandukanye yo gushyira ku nzugi. Aho harimo udupata two gushyira ku nzugi ntoya, imbere cyangwa se inyuma, bitewe n'izo umuntu ashaka. Hakaba hari n'ibyuma byo guhata.

Ahacururizwa ibintu bitandukanye, aho umucuruzi afite ama ji atandukanye ayo mu ducupa ndetse n'ayo mu tujerekani akaba atondetse ku murongo.

Isokori rihuriramo abantu batandukanye. Aho baba baje gucuruza ibintu bantu twifashisha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bakore bakuremo ku mufuka. Aho bacuruza imineke, imbuto ndetse n'imboga.

Isoko risukuye cyane ibintu bitondetse ku murongo neza bacururizamo imbuto harimo pome, amacunga ,imyembe, ibinyomoro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, aho rifite isuku hakaba harimo imikoropesho, amabase, ndetse n'imbabura, n'ibindi bikoresho byo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Isoko ry'ibiribwa rya Musanze bacururizamo ibintu bitandukanye. Riherereye muri gare aho abacuruzi batandukanye babashe gushaka amaronko. Harimo ababa barimo gucuruza inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi byinshi.

Isoko ricururizwamo n'abantu batandukanye bakoreramo ibikorwa byabo bya buri munsi bijyanye n'ubucuruzi, aho bakoreramo abantu bacuruza imbuto ndetse n'ibindi. Hakaba hari n'abandi bantu benshi baza baje kugura, baza baje kurangura kugira ngo bajyane ibintu ahandi.

Abacuruzi bari gucuruza inyanya ,bacururiza mu isoko ry'ibiribwa aho bafite inyanya nziza cyane ,kandi bakaba bafite n'abaguzi bo kuzigura.

Abacuruzi bari gupakira amashu bayajyanye ku isoko aho bayakuye mu mirima, kuko yari yeze bayasarura kugira ngo bayajyane kuyagurisha.

Botike icururizwamo biswi，umunyu， amaji ya sana， aho uyu mucuruzi ateganya kwiteza imbere， akazagura ibikorwa bye.

Isoko ricururizwagamo ibintu bitandukanye. Aho umucuruzi afite ibikoresho byo mu rugo ; hakaba harimo amasafuriya, amabasi ndetse n'ibikombe n'ibindi byose byifashishwa mu rugo. Hakaba hasa n'aho ari byinshi ,nabyo bikaba bitondetse ku buryo bwiza.

Umucuruzi wo mu isoko， ucuruza iibitenge，ndetse n'indi myenda itandukanye， aho harimo amapantaro，amashati， ndetse n'ibindi， akaba aba yabipanze neza， ku buryo iyo mubajije umwenda， ahita awuguhereza.

Ibitanure bicururizwa mu isoko aho birambitse ku ntara bakaba babitonoye nyirabyo akaba ategereje umukiriya kugira ngo arebe ko yabona inyungu akiteza imbere.

Isoko ricururizwamo imbuto n'imboga, aho abacuruzi bamwe baza kuguriramo, bakaza kubitembereza mu muhanda ndetse bakaba bafite ibintu bitandukanye umuntu yaza akeneye.

Umucuruzi ucuruza ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, harimo amajage, ibirahuri amaparato, amafoke n'ibiyiko, indobo, ndetse n'utubase two gukarabiramo intoki, ndetse n'ibindi bitebo byo gushyiramo imyenda, bikaba bisa neza, kandi bitondetse neza, biri n'ahantu hameze neza.

Isoko ricururizwamo ibihaza ndetse n'ibindi bintu bitandukanye， aho umucuruzi aba yazanye umusaruro we ku isoko， kugira ngo abonemo amafaranga.

Isoko ricururizwamo imboga n'imbuto, aho umucuruzi afite karoti zimeze neza cyane, akaba afite na shufureri, na kokombure, na pavuro, hamwe n'indimu, n'ibindi bitandukanye birimo na magi.

Ahantu hacururizwa imyenda caguwa aho birambitse hasi ku buryo umuntu, ushaka kugura kuri izo myenda ari gucagura, zikaba zirambitse ahantu hasi n' ikindi kandi zikaba zigabanyije, zitondetse ku byiciro bitewe n' izo umuntu yaba ashaka.

Isoko ry'ibiribwa ricururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, aho umucuruzi afite imiceri iri mu mifuka isa neza, indagara ziri mu ndobo isa neza, amasabune ndetse n'amavuta, n'isoko rikaba risa neza.

Abacuruzi bari mu isoko, aho bagiye kugurisha ibintu bitandukanye birimo ibitoki ndetse n'ibindi bicuruzwa, n'amaduka yaho akaba acuruza ibintu bitandukanye bose bakaba biteguye kwakira abakiriya.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, ibikoresho ndetse ndetse n'ibiribwa, igice cy'ibiribwa hakaba habamo n'imbuto zitandukanye, kandi ziba zimeze neza zifite isuku.

Ahantu bacuruziga bacururiza amatoroshi atandukanye n'ibindi bintu bitandukanye, aho aba apagiye mu ikarito yajemo, bakaba barayafunguye, kugira ngo abakiriya baje bayabana

Butike icururizwamo ibintu bitandukanye ,umucuruzi yagaragajeko acuruza amatara yo gushyira mu nzu, ndetse n'amavuta yo kwisiga, ariko acuruza n'ibindi bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bya elekitoronike ndetse n'amasaha aho umucuruzi afite amasaha ya siliva ndetse na goludeni, akaba yiteze inyungu muriyo ndetse akaba acuruza n'amatelefoni.

Isoko ricururizwamo ibigega, aho hari sayizi zigiye zitandukanye. Bakaba barabishyize ku isoko ku buryo umuntu akeneye sayizi runaka ayireba, ubundi bakavugana biri ahantu hasa neza kandi n'abyo bisa neza.

Iduka ricururirizwamo amavuta atandukanye yo kwisiga. Ajyanye no kwitaho k'umubiri ndetse n'ibindi bikoresho wakoresha ku mubiri bijyanyewo by'ibikoresho by'isuku.

Isoko ririmo abacuruzi bacuruza amashaza, ndetse n'ibitoki n'ibijumba n'ibirayi ndetse n'ibitonore, aho umukiriya aza babitanoye maze bakamupimira ibyo ashaka.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye. Aho umucuruzi afite amabasi n'ibindi bintu bimufasha kwiteza imbere mu buzima bwa buri munsi. Akaba ibintu bye biri ku murongo kandi asa neza.